Abantu bahetse ipombo mu mugongo, bambaye ingofero z'umweru, bambaye amasarubeti y'umukara na bote z'umukara, bari mu murima w'ibigori. Bari guteramo umuti no kuhira. Uwo murima ukikijwe n'ishyamba.

Amazi magari akikijwe n'ibyatsi byinshi ku nkengero n'ibiti birebire. Amazi adufasha dusukura ibikoresho buri munsi, amazi ni ubuzima. Amazi atuma tugira ubuzima bwiza.

Umuntu uri mu murima w'imbuto wambaye imyenda y'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu ndetse afite umusatsi mwinshi ari gutera umuti mu mbuto ze, kwambara agapfukamunwa biturinda indwara z'ubuhumekero, gutera umuti mu mbuto biduha umusaruro mwiza ndetse n'amafaranga.

Inka nyinshi zifite amahembe maremare, ikigaragara zikingirwa, harimo abagabo babiri bambaye amataburiya y'umweru, inka zikingiwe ziduha umusaruro mwiza.

Abantu batanu bari ku kiraro cy'inka, batatu bambaye amasarubeti y'ubururu n'inkweto zifunze, abandi babiri bambaye amataburiya y'umweru n'inkweto za bote, bari gukingira amatungo, gukingira amatungo biduha umusaruro mwiza ndetse n'amatungo akagira ubuziranenge.